Ariyanse Inshuwarense burikazi.

Hari abagabo babiri b'abazungu umwe akaba afite imyenda mu ntoki akaba ari kuvugana n'umugore ufite ikayi mu ntoki.

Ni inkweto z'umukara zigiye zifite amabara atandukanye, inyuma yaho hakaba hari akabati nako karimo inkweto n'amashakoshi.

Ni imodoka y'umukara y'ubwoko bwa kiya, iparitse muri parikingi, hakaba hari n'izindi modoka nazo ziparitse.

Ni inoti ya magana atanu y'Urwanda, imbere yaho hakaba ari ingagi, inyuma yaho hakaba hari abanyeshuri batatu.

Handitseho teganyiriza ahazaza h'umwana wawe, amafaranga make watangiza none, yakubaka ejo hazaza heza h'abana bawe. Sipene.

Abantu bicaye bambaye idarapo ry'u Rwanda hakaba harimo abagabo n'abagore, bakaba bafashe ku meza ndetse bafite n'amakayi imbere yabo yo kwandikamo.

Agapapuro k'ibara ry'umuhondo kandikishijwemo amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, kerekana uburyo bwo kwishyura amafaranga uyanyujije kuri Emutiyene mu momopeyi, bifasha umucuruzi cyangwa se umukiriya kugira ngo abashe gukorana ubucuruzi.

Umukobwa wambaye umupira w'icyatsi wicaye imbere ya mudasobwa yiwe, imbere yiwe akaba ari kuvugana n'umugabo wambaye umweru.

Ni abagore bari gucuza itomati, ibitunguru, intoryi, urusenda ku muhanda w'igitaka.

Dore icyo ibihumbi magana atandatu ku kwezi byakubonera Kigali Remera. Aparitema irimo ibyumba bibiri.

Ni igikoni cyo mu nzu, muri icyo gikoni harimo imbuto, iyo nzu iri mu igikoni ikaba ikodeshwa amadorari ibihumbi bitatu na magana atanu.

Hano ni icyo amadolari magana inani ku kwezi yakubonera i Kigali mu Rwanda.

Ni inzu igurishwa ku bihumbi cumi na bibiri by'amadorari ibyumba bine Kigali mu Rwanda kuri Kagarama.

Inzu yo gukodeshwa ibyumba bibiri tuwarete imwe Kibagabaga.

Hari ababyeyi bafite udukarita tw'umuhondo bicaye, hari umubyeyi umwe ufite umwana.

Ni isoko rigurisha ibyo kurya karoti kokombure ikirayi ibinyomoro.